Umugabo bigaragara yuko akuze cyane kubera ko amaze kuzana uruhara yaje kwivomera, banza nta buzukuru agira cyangwa bose bakaba bagiye ku ishuri, bikaba ko ariyo mpamvu ahisemo kuza kwizanira amazi kuko ayakeneye cyane.

Abana babiri b'abirabura bishimye cyane, barimo baravoma amazi atemba, bari kuvoma vuba ngo bayashyire ababyeyi mu rugo, bayakoreshe amasuku yo mu rugo kugira ngo bajye barira ku bintu bisukuye.

Mu cyumba cy'inama, abagabo, abagore, ndetse n'urubyiruko, bose babahamagaje kugira ngo baze barusheho kuganira ku bigiye bitandukanye, muri iki cyumba harimo abafite mudasobwa bari kugenda bandika ibivugirwamo kugira ngo n'abatabashije kuhagera bazamenye ibyavugiwe muri iyi nama.

Umusaza n'umukecuru basa nkaho bakuze bafite imvi z'umweru bari kuganira ku makuru agezweho, umusaza arimo asobanurira umukecuru ibigezweho, ni byiza kumenya amakuru mashya ukaba wayasangiza n'abo muri kumwe.

Ahantu habera imikino itandukanye, ubwo bari barimo bakina umuntu umwe yakomeretse abantu bashinzwe gutabara abantu bakomeretse baraza baramufata, baramuterura bajya kumwitaho, asa nk'uwakomeretse cyane ariko abo abantu babikoze byihuse kugira ngo bajye gutabara ubuzima bwe.

Umugabo ufite tatuwaje y'umutuku, wambaye isaha ku kuboko, usa nk'aho avuye gukora siporo akaba ari kugorora amaguru, ni byiza gukora siporo kuko ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti ya kinyarwanda ikozwe mu byatsi bitandukanye, iri mu ducupa twa purasitike dufite amabara atandukanye y'umuhondo, umweru, umukara, ni byiza gukoresha imiti ya kinyarwanda kuko ikiza nta zindi mpungenge.